Mu inzu z'ubucuruzi cyane cyane utubari ndetse n'amahoteri ,hagaragaramo ibiribwa byinshi bitandukanye, aho abakiriya bakeneye ibya aribyo byose barabibona.

Inyama zateguwe mu buryo bwo kotsa, aho bisangwa ahantu henshi, bategura amafunguro y'abakiriya

Abantu benshi cyane bari aho kunywera, Aho bari gufata bimwe mu binyobwa bigaragara mu mazu menshi y'ubucuruzi.

Gutegura amafunguro neza, ni bimwe bikurura abakiriya, bityo ukabona amafaranga, kandi bikaguteza imbere.

Inyubako nziza cyane aho hari ahategurirwa ibyo kunywa, ndetse n'ibyo kurya ,kandi hakaba hari nahoho abakiriya bicara.

Ahantu haka amatara asa n andi mabara atari ayu umweru, aho bacuruza ibinyobwa byinshi bitandukanye.

Aho abakiriya bagiye aho kunywera bakirirwa, bigaragarako hari ameza ndetse n'intebe zo kwicaraho byiza.

Icyumba cy'ubucuruzi, bigaragara ko gicuruza imyenda y'abana, ndetse n'ibindi byerekeye abana batoya.

Ahantu hari inyubako ifite amabara yiganjemo iry'umutuku, bigaragara ko hari aho kunywera ikawa, kurya, ndetse n'ibindi.

Inyubako y'ubucuruzi, aho ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye, hagaragara ko hari kapani ikoramo ibintu by'imikino y'amahirwe.

Bamwe mu bacuruza ibikoresho byo mu rugo, hagaragaramo n'ibikoreshwa mu myidagaduro nk'imipira, y'amaguru, iy'intoki, n'imyenda y'imyidagaduro, ndetse n'imyenda ya siporo.

Ibyambagwa harimo y'amoko menshi gatandukanye, usanga biri kugurishwa hirya no hino mu maguriro gatandukanye.

Ahantu hacuruza ibikoresho by'ubwubatsi harimo: ibigega, ibiduki, ibyuma, impombo ndetse n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ibintu byinshi harimo: ibyambarwa, ibyo kurya ndetse n'ibindi.

Bimwe mu biribwa biboneka mu mahoteri, biba byatetswe n'inzobere zabihuguriwe, kandi zibifitiye ubushobozi.

Inzu y'ubucuruzi ntoya, irimo ibiribwa by'ibanze, aho abari ku rugendo bafatira amafunguro.

Mu masoko hagaragaramo ibikoresho bikoreshwa mu rugo, hariho ibigega bakoresha mu kubika amazi, inkweto z'abahinzi.

Amashyiga akoresha imyuka yo gutekesha, aho ari meza kuko yoroshya igikorwa cyo guteka, aho kubona umuriro byoshye.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, aho usangamo aho kunywera ikawa ndetse hakabaho n'amafunguro atandukanye.

Amahoteri ni kimwe mu bintu byinjiza amafaranga menshi cyane, aho abayagana batanga amafaranga, bityo bigateza imbere banyirayo.

Inzu z'ubucuruzi bigaragara ko zikorerwamo ibintu bitandukanye, aho hamwe hacuruzwa ibitanda byo kuraraho, ahandi hagacuruzwa ibyokurya ndetse n'ibindi.

Imbabura ikoresha amakara, kugira ngo abantu bacane kandi bateke ibiryo byabo.

Inyubako igezweho iriho ibyapa byinshi , bikangurira abantu kugura ibyo bintu bihamanitse nk'ikinyobwa.

Ubucuruzi bw'ibyambarwa byiganjemo iby'abagabo ndetse n'abagore, kandi hakazamo n'ibikapu bikoreshwa n'abantu benshi.

Mu nzu ndetse n'ibyumba by'ubucuruzi hagaragaramo ko bacuruza ibikoresho by'ubwubatsi, nk'amarangi, peteroli, amasima ndetse n'ibindi.

Icapa kiriho amagambo mu rurimi rw'icyongereza ,hagaragaza icyo aho hantu hari kigaragaza n'ico bakoreramo bigaragara ko hari ikigo cy'umuco.

Amwe mu maguriro acuruza ibikoresho byo mu nzu, abaturage bakoresha mu buzima bwa buri munsi, harimo: nk'ameza, intebe, indobo, amasahani, ndetse n'ibindi.

Inzu z'ubucuruzi, bigaragara ko zicuruza ibikoresho byinshi bitandukanye harimo amacupa y'imyuka yo gutekesha, ibikoresho byo mu nzu, nk'amasafuriya, ndetse n'ibiribwa.

Inzu y'ubucuruzi yubatse mu buryo bwa kijyambere, aho bacururizamo ibikoresho byinshi bitandukanye.

Iduka ricuruza ibice bitandukanye by'ibinyabiziga, aho igishaje gisimbuzwa ikindi bityo ubicuruza bikamuteza imbere.

Abantu benshi bashaka ahantu ho kurira igihe bari ku rugendo, rero ahantu wahasanga ni ahaba hari ibyapa biri kuri....

Hari amaduka acuruza ibikoresho by'umuriro, kandi bakabigurisha ku giciro cyiza cyane.

Inzu y'ubucuruzi yose igaragaramo ibyapa byinshi bitandukanye, hagaragaramo imico iyo nzu ikorerwamo.

Urujya n'uruza rw'abantu, aho hari abantu bari gutwara ibinyabiziga bitandukanye harimo: imodoka, amapikipiki ndetse n'amagare.

Inyubako igezweho y'ubucuruzi aho zikoreshwa ibintu byinshi bitandukanye hariho: nko gucuruza utubari, ibiribwa, ibyambagwa ndetse n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibintu byinshi bitandukanye, higanjemo ibiribwa nk'ibirayi, ibisheke, ibitoki, ibitunguru ndetse n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi hejuru hariho icyapa kiri kugaragaza icyo iyo nzu ikorerwamwo, bivuga ko bakora ibikoresho bakanabicuruza by'amashanyarazi.

Iyo abantu bari ku ngendo nyinshi zitandukanye, hari ahantu baruhukira, bityo bakahabona amafunguro, ndetse n'icyo kunywa ku biciro byiza cyane.

Inyubako z'ubucuruzi, zikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye, harimo nko kugurisha amacupa yimyuka yo gutekesha, gutangiramo serivisi z'irembo, n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi ikoreshwa mu gucuruza, bimwe mu bikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, mu isuku n'isukura.

Inzu z'ubucuruzi nyinshi zikorerwamo ibikorwa byo gucuruza ibintu byinshi bitandukanye, aho abakiriya bazana amafaranga nabo bagahabwa ibyo bintu.

Inyubako igezweho itararangira kubakwa, aho izakorerwamo imirimo myinshi itandukanye cyane cyane iy'ubucuruzi.

Inzu y'ubucuruzi bigaragara ko ibamo ibiryo by'amatungo: nk'ingurube, inkwavu, inkoko ,ndetse n'inka.

Abantu bari mu mirimo itandukanye, aho hariho abantu bari gupakira ikinyabiziga ,amagi bayajyanye kuyagurisha.

Abacuruzi benshi bari gucuruza ibintu byinshi bitandukanye, higanjemo ibyo kurya nk'ibigori, ibijumba ndetse n'intoryi.

Mu maduka bacuruza ibintu abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi, harimo abacuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'amaradiyo, amatelefone, mudasobwa ndetse n'ibindi.

Mu byumba by'ubucuruzi hagaragaramo, ibintu byinshi nk'ibikoresho byo mu rugo ,amabase, indobo, ndetse n'ibikapu ndetse hakabamo, n'ibiribwa cyane cyane bikomoka ku ngano.

Kandi habaho abacuruza ibintu biciriritse, aho baba bari ku mihanda kugira ngo bahahirwe n'abantu.

Ibyumba by'ubucuruzi bicuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga, ndetse n'itumanaho nka za: telefoni, mudasobwa, amaradiyo ndetse n'ibindi.

Inzu z'ubucuruzi ,bigaragara ko zicuruza ibikoresho byinshi bitandukanye by'ubwubatsi, kandi hakaba hari n'abadozi b'imyenda.

Icyapa kiba kiri ku nzu z'ubucuruzi, aho kiba kiri kugaragzaa icyo iyo nyubako ikorerwamo nko gucuruza akabari, ibyambarwa, resitora ndetse n'ibindi.

Inzu z'ubucuruzi zicuruza ibintu byinshi bitandukanye, higanjemo ibiribwa, imyambaro, ibiryamirwa, ibikoresho by'ubwubatsi bikoreshwa mu isuku n'isukura n'ibindi.

Amaduka bacuruza bimwe mu bice bigize ibinyabiziga, ndetse bakanacuruza ibikoresho bakoresha bari gukora ibinyabiziga.

Zimwe mu nzu z'ubucuruzi zigezweho, zigaragaramo ko hari ibyo bifashisha, kugira ngo bagere aho abo bacuruzi bari vuba.

Icyumba cy'ubucuruzi aho bigaragara ko batangaga serivisi zitandukanye, harimo izo kubitsa no kubikuza, ndetse niz'irembo.

Inzu y'ubucuruzi, iriho icyapa kigaragaza ko bafura imyenda y'amoko yose, bakanahanagura n'inkweto.

Mu bucuruzi ibintu byinshi bigaragara ko ari byo abantu benshi bahaha, harimo n'ibyambagwa byinshi mu moko menshi.

Abantu benshi barimo kujya ahantu bagurishiriza ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo n'iby'ikoranabuhanga ndetse hari n'amaguriro acuruza n'ibiribwa.

Inyubako cg se icyumba cy'inyubako kirimo inzu y'uburiro, aho umukiriya aba afite amafaranga, bityo bakamwohereza ibyo ku kurya n'ibyo kunywa.

Imiti isa nkaho ari iy'amatungo aho ishushanyijeho inka ndetse n'intama, aho abavuzi b'amatungo bayifashisha kugira ngo bagenge ubuzima bw'izo nyamaswa.

Ahantu bigaragara ko hari inzu y'ubucuruzi, kandi bigaragara ko hari ibinyabiziga by'amagare, aho biri kugurishwa.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda mu muhanda banyuranamo, aho bagiye gushaka ibintu byinshi bitandukanye mu mazu y'ubucuruzi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu byinshi. Harimo ibyo kurya, ibyambagwa, ndetse n'ibindi byinshi abantu bifashisha.

Inzu y'ubucuruzi, ikorerwamo ibintu byinshi bitandukanye. Ariko hakaba hari icyapa kigaragaza ko aho hantu hari ibyo kurya, bigaragaramo inyama.

Ahantu hari ikoraniro ry'inzu z'ubucuruzi, aho hari ibikoresho byinshi biri kugurishwa, nk'ibikoresho bijyanye n'ubwubatsi, iby'ikoranabuhanga, ndetse n'ibindi.

Banki zikoreshwa mu kubitsa no kubikuza amafaranga, bityo abaturage bakirinda gusesagura.

Abakozi benshi biri kugaragara ko hari abantu bacukura amabuye y'agaciro , bityo bigatuma bahabwa amafaranga , n'abo bakorera bakiteza imbere.

Utunyabiziga dutoya, dukoreshwa mu myidagaduro, kandi ntabwo twatwara ibintu cyangwa se abantu.

Icyapa kiri kugaragaza aho hoteri yubatse, aho abantu bazajya babibona byoroshye, bityo bigatuma ba nyiri iyo hoteri babona abakiriya.

Inyubako nziza kandi igezweho, aho hakoreshwa nka hoteli cyangwa se, inzu y'imyidagaduro.

Icyapa kiri kugaragaza icyo iyo nyubako yakorerwagamo, bigaragara ko aho hantu hari amacumbi.

Amwe mu mahoteli habamo, aho ababagannye bacumbika, aho gufatira amafunguro ,ndetse n'ibyo kunywa, kandi bigatuma ba nyiri iyo hoteli biteza imbere.

Imigati barayikora kugira ngo abantu bazayifashishe, mu gihe bari gufata amafunguro.

Ibyinshi bikunze kugaragara aho abacuruzi bari gucuruza, harimo ibyambarwa, ibiryamirwa, ndetse n'ibindi.

Iguriro ririmo uruhurirane rwinshi rw'ibigurishwa higanjemo: amavuta yo kwisiga, amasabune, n'utundi dukoresho two mu rugo.

Mu Rwanda habamo ubukorikori bwinshi, ndetse abantu bashaka icyo bakora kugira ngo biteze imbere.

Mu maduka amwe aciriritse hagaragaramo bimwe mu bituma uruhu ruguma rumeze neza, amavuta yo kwisiga.

Mu mabanki atandukanye, hagaragaramo ko hari abashinzwe umutekano. Bityo amafaranga bikaba byizewe ko atakwibwa.

Isoko ririmo abantu benshi, aho bari kugura ibyambarwa by'ubwoko butandukanye, harimo iby'abagabo, abagore, abana ndetse n'abakuru.

No mu bucuruzi buciritse, hagaragaragamo ibyo kunywa, ibyo kurya, ibyo gukoresha mu ngo bari gukora isuku ndetse n'ibindi.

Mu maduka habamo ibintu byinshi bitandukanye, abaturage bakoresha mu buzima bwa buri munsi mu gutegura amafunguro, amasuku ndetse n'ibindi byinshi.

Ikoraniro ry'ibicuruzwa higanjemo amamatera, ibyambarwa, n'ibindi bikoresho byiganjemo ibyo mu rugo.

Mu mazu y'ubucuruzi, usanga hari ibicuruzwa bimwe na bimwe byafashe igice kinini, cyane cyane nk'ibyambarwa, inkweto ndetse n'imyenda.

Intonore ni ibishyimbo, bisarurwa mbere y'uko byuma, aho usanga zihenda kurusha ibyumye.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko, aho abadafite ibikoresho biri mu isoko ,baje kubishaka kugira ngo babigure...

Isoko ry'ibicuruzwa, aho abacuruzi babijyana, aho ngaho kugirango abaguzi baze kubigura, bityo bikabaha gutera imbere ndetse n'igihugu.

Mu isoko rigaragaramo ibintu byinshi bitandukanye, higanjemo ibyambarwa. Kandi hakabamo n'ibikombe, amasafuriya, ndetse n'ibindi byinshi, bikoreshwa mu rugo.

Ibihingwa abahinzi bahinga, babyeza bakabijyana mu ngo zabo bakabitegura nk'amafunguro, ndetse bagasagurira n'amasoko.

Ubucuruzi buciriritse, bukorerwa mu masoko atubakiye, aho bacuruzamo ibintu byinshi, abaturage bakeneraga nk'ibyambarwa, ibiribwa ndetse n'ibindi.

Isoko ry'ibicuruzwa cyane cyane higanjemo ibiribwa. Aho hahuriyemo abantu benshi, aho bamwe baje guhaha ibyo bicuruzwa, hakaba harimo n'abandi baje kubigurisha.

Abacuruzi ndetse n'abaguzi bari mu isoko ry'ibiribwa, aho hagaragaramo ibiribwa byinshi bitandukanye nk'imbuto ndetse n'ibirayi.

Abantu benshi higanjemo ab'igitsina gore, aho bari mu isoko ry'ibiribwa.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu muhanda, aho bagiye gushaka ibikoresho bitandukanye ,mu nzu zubucuruzi.

Mu isoko ry'ibiribwa hagaragaramo ibiribwa byinshi bitandukanye, nk'ibitoki ,inyanya ,karoti ,imyembe, imboga, ndetse n'ibindi.

Mubucuruzi buciriritse hagaragaragamo, ibikoresho by'amafaranga makeya, nk'amatara, umuvuta yo kwisiga n'utundi.

Inkoko zororerwa ahabugenewe, kugira ngo bazirinde kuba zahura n'ibyatuma zitamera neza, nk'abasambo, ibisimba ndetse n'ibindi.

Inyubako nziza kandi igezweho, aho ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye, harimo nk'ubucuruzi ndetse n'ibindi byinshi.

Mu masoko menshi atandukanye hakunze kugaragaramo bimwe mu bikoresho byifashishwa mungo nyinshi cyane cyane ibiryamigwa, ibyambarwa n'amasafuriya.